Inyubako ifite ibara ry'umuhondo, hakaba hariho igishushanyo cy'ifi kiri mu ibara ry'umukara. Hasi na ho hakaba hasize sima y'umukara.

Imbwa y'umukara ireba nabi, iri mu bikinisho by'abana, yabishandaguje, imbere hari akantu k'akazeru gasa umutuku ndetse n'akana k'agapopi karyamye ku ruhande.

Inyubako igezweho iriho n'imitako myinshi igezweho bisa neza, iyo nzu ikaba isakaje amategura ifite n'ibirahure by'umukara. Hirya gato hari akabingaro karimo abantu bari kwiyakira.

Inzu igaragara igice cyo hepfo, iteye irangi ry'umuhondo, hasi hakaba ari sima y'umukara, kuri icyo gikuta hariho ibishushanyo bibiri, kimwe ni umweyo ikindi n'ibasi.

Iduka rifite amapave imbere yaryo hakaba hari abagabo babiri bahagaze mu muryango, imbere yabo haba haparitse moto iriho kasike ebyiri n'umufuka w'umweru uteretse imbere ya moto.

Ibikinisho by'abana birimo imodoka ziri mu bwoko butandukanye, hakaba harimo iz'umutuku, iz'umuhondo, iz'icyatsi ndetse n'iz'iroza, zose zikaba zigiye zihetse ibintu.

Igipupe cy'umweru gifite umutwe n'amaboko n'amaguru kikaba cyegetse ku gakapu k'umutuku biri ahantu hasi kuri sima irimo amakaro y'igikuta cy'inzu gifite irangi ry'umuhondo.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira urimo amabara arimo ary'umutuku n'inkweto n'amasogisi n'ikabutura, akaba ari ku gitambaro kiriho ibikombe bitanu birimo ibintu bimeze nk'amarangi atandukanye.

Abana bari gukina bari iruhande rw'umusaza wambaye igitenge, afite n'inkoni y'abantu batabona, wambaye n'amarinete bicaye imbere y'urugo rusize irangi ry'umuhondo.

Abantu babiri b'abasirikare bafite imbunda mu ntoki, bakaba umwe areba undi bashaka kurasana. Hirya yabo hakaba hari itaka risanzwe, nta bimera bihari.

Umuntu utagaragara neza mu maso wipfukiranye ahantu hose wambaye imyenda ifite amabara menshi arimo umutuku, ubururu, umukara, icyatsi, ndetse n'umuhondo imbere ye hari ibintu by'ibipipa.

Agakinisho ka moto gasa umutuku gafite n'amahembe, karimo n'amapine ndetse n'akandi utuntu dufite ibara ry'umukara, abana bakoresha bagendeshaho.

Imyenda yabugenewe iri mu mabara meza arimo umutuku ndetse n'icyatsi n'umweru. hirya y'aho hari irindi kote na ryo rifite amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Ameza ariho ibintu byinshi by'ibishushanyo bigiye bitandukanye, twavugamo nk'umwana wikoreye witwikiriye umutaka, inyoni ndetse n'igiti cy'inganzamarumbo kiri ku ruhande.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye harimo n'imfashanyigisho, n'udukarita dushushanyijeho inyuguti zo mu Kinyarwanda ndabona harimo n'udukarito n'amarangi.

Ibikinisho by'abana bo muri garidiyene birimo udusaro twinshi ndetse n'imibare guteranya gukuba ndetse no gukuramo, byose bikaba biri mu tuntu tw'utu bogisi.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, turimo amarinete y'abana, udukinisho tw'abana twinshi tugiye tunyuranye,, turi mu mabara atandukanye. Hakaba harimo n'uducupa tubiri twegeranye kamwe gafite umupfundikizo w'icyatsi, akandi uw'umutuku.

Icyumba kirimo mudasobwa nyinshi zitandukanye zigiye ziteretse hejuru y'ameza, hakaba harimo abantu babiri umwe wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, undi akaba yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ibishushanyo by'abana barimo barakora imodoka, umwe akaba afite udukarito ndetse n'amapine y'umutuku, undi akaba ari kugerageza gushyira amapine ku giti, undi akaba yatangiye kugendesha imodoka yakoze.

Ibikinisho byinshi bigiye bitandukanye bimeze nka balo cyangwa se ibindi bimeze nk'ibintu abana bashobora kunyuramo, biri mu mabara agiye atandukanye, ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi.

Igiti kiriho inuma ebyiri kandi zikaba zihagaze zirebana, hejuru hakaba hariho ibara ry'icyatsi ryanditsemo amagambo ngo isandi n'intashya amashuri y'inshuke.

Abana babiri bicaye bambaye imyenda y'ishuri ku ntebe imbere yaho hakaba hari ameza ndetse na kompuyuta ku ruhande hejuru gatandatu n'amagambo yanditseho hejuru ngo sayanse endi eremantari tekinoroji.

Isomero ririmo ububati bubir, irimo ibitabo bitandukanye, mu kabati kabanza harimo ibitabo byiganjemo umutuku n'ubururu, akabati ko hakurya harimo ibitabo naho ibitabo bitari ku murongo neza.

Inkoko, ifi, urukwavu ndetse na nyirahuku, biri ku gishushanyo cy'umweru, hasi yaho hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu, yanditseho ngo inkoko, ifi, urukwavu, injangwe.

Ibikoresho byinshi binyuranye byifashishwa mu mirimo inyuranye buri munsi, twavugamo nk'igitaro, igitebo, isuka, igitiyo, ipiki, najoro, isuka ndetse n'ibindi.

Igitabo kiriho ifoto y'abana bato barimo umwe wambaye agakanzu k'umutuku gafite amaboko magufi, iruhande rwe hakaba hari umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura k'ubururu bicaye ku giti.

Igishushanyo kiriho imbwa ndetse n'inzu isakaje amabati ifite n'umuzenguruko w'umutuku, ikaba ifite urugi rwimbaho, inyuma yaho hateye ibiti, imbere gato hakaba hari ubusitani.

Uruziga rurimo amabara agiye atandukanye ashushanyije mu mashusho y'ubwoko butandukanye, harimo nk'uruziga, urukiramende ndetse n'ibindi, bikaba byose biri mu mabara menshi anyuranye.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umutuku n'inkweto z'umukara akaba ari kwirukankanwa n'umwana ufite umusatsi w'umukara n'ikanzu y'umutuku n'inkweto z'umukara.

Ikigo cy'amashuri, mu kibuga cyaho harimo idarapo, amabati ni ubururu, inzugi ni ubururu, harimo jaride. Amashuri amwe aramanuka andi aratambika, hirya y'amashuri hari ibiti, mu ikibuga kandi harimo indabyo zitandukanye.

Inyubako yubakishije amatafari, ikaba ifite icyapa kiri inyuma cy'umweru girimo amabara menshi ashushanyijeho n'ama yanditseho ngo Karangazi Sec School.

Abana bato bambaye impuzankano bamwe umuhondo n'icyatsi abandi amashati y'umweru, abandi imipira ndetse abandi bari inyuma bakaba bose bicaye ahantu hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, amapantaro y'umukara bakaba bafite igikombe mu ntoki. Muri bo hakaba harimo n'umugabo wambaye ishati ijya gusa umuhondo n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo Bank of Kigali.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse bamwe bambaye amapantaro y'umukara, abandi ay'umweru. Bakaba bahagaze imbere y'igiti, inyuma yaho hakaba hari inyubako nziza.

Abanyeshuri batoye umurongo barimo umwe wambaye umupira w'ishuri, ishati, ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara akaba ateruye akadeshi k'umweru n'ubururu karimo imboga.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo ndetse n'igisenge cy'ubururu cy'amabati, inyuma yayo hakaba hari igiti cya avoka ndetse n'ubwiherero.

Inzu ikorerwamo ubushakashatsi bw'amasayansi, ifite imireko y'ubururu, inzugi z'ubururu, irangi ry'umuhondo, ikaba ifiteho ikigega, hahagazeho umuntu inyuma yacyo n'ubwatsi imbere yayo.

Abanyeshuri benshi bari mu ishuri bigaragara ko bari gukorera mu matsinda bamwe bafite imashini zibara harimo abafite amakaramu bari kwandika ndetse n'amakaye.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, hakaba harimo abanyeshuri bicayemo bameze nk'aho bari kwiga, harimo ibikoresho binyuranye, bikoreshwa mu gusuzuma indwara.

Irembo ry'ibyuma ryanditseho TTC Matimba, imbere hari akazu gateye irange ry'icyatsi ndetse n'umweru, imbere mu kigo hari umuhanda ujyamo.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu hamwe bari kureba ahantu hamwe, inyuma y'aho hakaba hari abandi banyeshuri bahagaze harimo abambaye imipira y'umutuku, bakaba biganjemo bambaye imyenda y'imyeru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo ya kake, bakaba bicaye ku ntebe, harimo n'abambaye imipira, inyuma yabo hakaba hari ikibaho.

Abantu bari imbere y'inyubako y'ubuyobozi, harimo abambaye amajili arya kuba umuhondo ,abandi bambaye amajili ajya gusa icyatsi.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri isa n'amashati y'umweru ndetse n'amajipo ajya gusa icyatsi, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara bose bakaba bafite ku cyapa.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rwambaye impuzankano y'icyatsi harimo n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, bakaba bari gukoma mu mashyi baririmba.

Abantu banyuranye harimo abagabo ndetse n'umugore bakaba bambaye ingofero y'umweru ndetse yambaye n'ijire iruhande rwabo hari amashuri ndetse n'ibiti.

Abanyeshuri batatu bari mu ishuri barimo bandika umwe ari kwitegereza hiry, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho isomo ry'imibare, imbere yabo bose bicaye iruhande rw'intebe bandikiraho.

Inzu y'isomero irimo ibitabo bigiye bitandukanye, biri mu mabara anyuranye ndetse n'amasomo anyuranye, hakaba harimo iby'imibare, ibyo gusomera abana ndetse n'ibindi. Bikaba biri mu nyubako iteye irangi ry'umuhondo.

Abantu bahuriye ahantu muri sale, bambaye impuzankano isa icyatsi ndetse bambaye na baji. Bicaye ku ntebe nziza zisa icyatsi ndetse n'ameza bareba imbere.

Inzu irimo sima hasi, iruhande hakaba hari ameza ariho ikayi ndetse n'ikaramu, hirya ku kibaho hakaba hari ibibaho bibiri by'umweru byandikishijeho amagambo y'umukara.

Abantu benshi bameze nk'abanyeshuri basoje amashuri makuru bakaba bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero, iyo myenda yabo ikaba irimo ibara ry'umuhondo.

Ameza yanduye ajya gusa umukara, akaba ateretseho ibintu bimeze nk'ibibumbano. Iruhande rwaho hari intebe za palasitike ziri mu mabara y'ubururu, yandikishijwemo amagambo y'umweru.

Inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere ikaba isize amakaro y'umukara, hejuru gatoya hakaba hari igikuta giteye irangi rijya gusa umutuku kiriho udusimba twinshi.

Inyubako nziza igezweho ifite amabati y'umutuku iteye irangi ry'umuhondo, imbere yaho hakaba hari ubusitani bwiza, buri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hari n'amapave.

Inyubako itagaragara neza ifite igikuta kandi ikaba ifite n'urugi rwiza rugezweho ruri mumabara yicyatsi, urwo rugi rukaba rufite ibirahure bijya gusa umukara byanditseho amagambo.

Icyapa kinini cyanditse mu mabara agiye atandukanye, hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, iry'umutuku, iry'icyatsi ndetse hakaba harimo ikirango cya Iniverisite y'u Rwanda.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye zigira uruhare ku buzima bwacu, zikaba ziri ahantu bazirambitse, harimo imineke, amatunda ndetse n'inanasi, byose bigira uruhare ku buzima bwacu.

Inyubako igeretse kabiri yubakishije amabati, ikaba ifite amadirishya y'umukara isize irangi ry'umuhondo, hakaba hari n'amasikariye azamukamo hejuru.

Inkono zibumbye mu ibumba, zikaba zifite ibintu by'ibizinga bizizengurutse bimeze nk'ibizeru, zikaba ziteretse hasi kuri sima ahantu bazikoreye. Iruhande rwaho hari umufuka.